Ihuriro ry'abantu benshi, aho higanjemo abagore kurusha abagabo ndetse bakaba bari gutera mu murima, bigaragara ko aho bari gutera harimo ibindi bihingwa by'ibigori, inyuma yabo hari amashyamba maremare ndetse n'iruhande rwabo.

Umugore uri mu murima wambaye amadarubindi manini cyane, biragaragara ko ari gushyira ifumbire ku bigori bye, ikigaragara ahantu ari ni mu murima munini cyane, arigushyira ifumbire ku bihingwa bye.

Umuhinzi uri mu murima we, aho ari kureba inyanya zahishije ndetse n'izidahishije, ikigaragara cyo ni umugabo, ahantu ari hari ibyatsi byinshi cyane ndetse n'inyuma ye hari ibindi biti birebire.